Ifumbire mborera iba nziza cyane ,iyo ugiye gutera imyaka yawe ukayifumbiza ifumbire y'imborera yera neza cyane ,n'uko tuyivanga n'imvaruganda, ariko imborera ituma ibihingwa bikora neza cyane

Imiti bakora mu biribwa, nayo iba myiza cyane, kuko iravura, nk'abana barwaye za bwaki, iyo babavurishije iyo miti yakozwe mu biribwa, usanga bibaye byiza cyane. Kuko imiti ivuye mu biribwa, nayo iravura rwose nta kibazo.

Ubuhinzi bw'ibiti bitandukanye buba bwiza, iyo ba bufumbiye usanga udusimba turya ibiti tutabiriye, kuberako biba byarashyizweho ifumbire itandukanye, irinda udusimba dutondagira.

Umuti batera mu myaka uba mwiza kubera ko iyo myaka itangiye gupfa bagateramo umuti wabigenewe, usanga imyaka yongeye guhembuka, ugasanga nta kibazo ifite igakomeza iterana.

Abaturage biyemeje gukora umuganda kandi bashyira hamwe ukabona ni ibintu byiza. Iyo bari gukorera hamwe usanga bageze ku kintu cyiza gifitiye igihugu cyacu umumaro.

Gutera umuti ibihingwa bitwongerera umusaruro, kuko udusimba dufata ibiribwa ntabwo tuzamo iyo umuntu yateyemo umuti turapfa, ku buryo byera neza nta kibazo umuntu akabona umusaruro yishimiye.

Igihingwa cy'ibigori cyitaweho cyane. Ubona rwose cyarashyizwemo imbaraga, kugira ngo gihingwe. Kugira ngo duhashe inzara urabona ko n'abayobozi na bo barabyitabira, kugira ngo batange urugero rwiza rwo kubifumbira, kugira ngo ibigori bigaragaze umusaruro utubutse.

Igikoresho cyiza cyo mu rugo kibika inyama neza, amafi, iyo umuntu afite firigo, ahahira rimwe, ugasanga ibintu bye bibitse neza nta kibazo bifite, rero na cyo kiba ingenzi mu buzima, iyo umuntu akigira, arya neza.

Amazi harimo inyamanswa zitandukanye, harimo ibyo barya, nibyo batarya, urugero habamo amafi ayo barayarya, ariko habamo n'izindi nyamanswa batarya nk'ingona, ubu ubwo rero ntagupfa gukinisha amazi yokogamo, kuko izo nyamanswa, zakugirira nabi.

Ifi ni ikiribwa cyiza cyane, abantu barayikunda kuko ikundwa n'abantu b'ingeri zose, ari abana barayikunda, abantu bakuru barayikunda, uretse ko abana ibagora kuyirya, kubera ko igira amahwa menshi, ariko kiba ikiribwa cyiza cyane.

Amazi aba meza cyane nk'iyo ari ikiyaga kitugirira akamaro kuko habamo amafi, kandi iyo bayarobye barayacuruza ugasanga abarobyi n'abo babyungukiyemo, ndetse n'abaturage bakarya nta kibazo. Imyaka iri ku nkengero z'ayo mazi nayo ikura neza.

Ifi iba nziza cyane, iraryoha cyane, kandi iyo umuntu ayiriye yumva rwose aguwe neza, haba ku bana, ku bakecuru, abasaza. Noneho iyo ufite ibiro byinshi; urugero nk'ibiro icyenda bihaza abantu benshi cyane.

Ifi ni inyama irya cyane， abantu benshi barayikunda，kandi iyo wayitunganyije neza， ukayikuraho amagaragamba yayo，urayirya ukumva nta yindi nyama warya， uretse ifi. Ubwo rero ifi ni inyama iryoha cyane， kandi nta ngaruka itera mu mibiri yacu.

Ifi iba nziza cyane, ikorera mu mazi, iyo amazi adahari ihita ifpa. Ubwo rero iyo ushaka kuyorora uyorora mu mazi, kandi iyo imaze gukura barayiroba, bakayiteka, iryoha cyane iyo iriho ibirungo bitandukanye, ubwo rero ifi iraryoha cyane, abantu benshi barayikunda.

Ibyuzi by'amafi biba bimeze neza cyane kandi abantu bagira ibyuzi by'amafi, ubwo rero kandi n'abarobyi na bo ntabwo bisuzugura kuko n'abagore na bo ntibasigaye inyuma bamenya kuroba amafi ,ubwo rero yororoka neza cyane ugasanga adufitiye akamaro kenshi.

Amafi agira intungamubiri zitandukanye ni uko ahenda, ntabwo ari buri muntu wese upfa kuyagura uko yiboneye ,ariko iyo ufite ubushobozi ukayagura usanga afite isosi nziza ,ihembura abana ugasanga batarwaye bwaki.

Ifi iba mu mazi kandi iyo abarobyi bagiye kuroba bayiroba n'ijoro, ntawe uroba amafi kumanywa rero ifi iraryo, iyo ari igihe cyayo akarobwa usanga afite igiciro cyo hejuru bifitiye abantu akamaro.

Icyiza cy'amafi kirahari Koko. Amafi uyateka ari mabisi cyangwa ukayababura, kandi iyo uyababuye urayabika ntagire icyo aba, nta bwo abora, ahubwo igihe cyose ushakiye gukorera isosi urateka rwose ukarya nta kibazo.

Inyamaswa ziba mu mazi zirimo amafi, zigira umumaro cyane kubera ko abaturage iyo barobye amafi, abarobyi iyo barobye amafi usanga babonye amafaranga menshi cyane. Kuko amafi ari mu bintu bikundwa n'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi benshi.

Isambaza ziraryoha cyane, uziyo bazikuye mu mazi zikiri nshasha, urazikawusha wazirya umva zifite icyanga kandi niyo uzikoreye agasosi urya ubugari da, ukumva ubuzima buragiye, ariko siburiwese wazigondera.

Ifi ziraryoha, cyane cyane iyo zokeje, kurusha izo baba bashyizemo isosi. Ni ngombwa rero kurya ifi yokeje, nayo iba nziza iyo wasohokanye n'umukunzi mu kabari.

Imirima y'abaturage bayihinga neza niyo mpamvu bashyizemo ibihingwa byabo byera neza nta kibazo bifite, ni ngombwa ko bahinga bakazamura ubutaka bwiza bushimisha.

Ibireti ni igihingwa kigirira igihugu cyacu akamaro kuko kiduha amafaranga menshi cyane, rero abaturage bakunda guhinga ibireti kuko babikuramo amafaranga menshi cyane.

Insina, insina ni nziza ivaho ibitoki ,ibyo barya, ibyo benga bagakuramo umutobe, bagatara inzoga, ndetse hari n'ibindi bacuruza mu masoko yacu mbese iyo wafumbiye insina igira igitoki cyiza kandi gifite ibiro byinshi.

Ni icyatsi cyiza, ni igihingwa cyiza cyeraho ibihaza byinshi cyane, icyiza cyacyo iyo cyumye kirongera kigashibuka kikazana ibindi bihaza. Mbese iyo utakiranduye ntabwo gipfa gucika mu murima.

Ubu abaturage bamenye ibyiza byo guhuza umurima bagahinga igihingwa kimwe, kuko iyo a cyeze basaruramo umusaruro ushimishije, ku buryo inzara itapfa gutera abaturage uko yiboneye kuko babijyana no mu buhunikiro ku buryo bigurishwa neza nta kibazo.

Ahantu basaruye bahita mu Gisigati, ubwo rero harongera hakamera ubundi bwatsi, ku buryo bategereza noneho bakazahinga mu gihe cya cyaho igihe kigeze, ugasanga iyo bongeye guhingamo ikindi gihingwa, kirakura ndetse kikera, kikagira umusaruro mwinshi cyane, kuko haba hararaye.

Igiti bita igiko kigira umumaro munini cyane kuko hari n'ibikoresho bakibazamo nk'imivure, isekuru ndetse n'ibindi bitandukanye, imihini. Ubwo rero igiti cy'umuvumu kigira umumaro munini cyane kuko kivamo n'umuti.

Igihingwa cya karoti ni ik'ingenzi cyane. Karoti iyo zeze mu gihe cyazo, zigira amafaranga menshi cyane. Iyo ugize amahirwe zikera mu gihe kitarimo imvura nyinshi cyane, usanga zihenze ku isoko, ku buryo abantu bazishaka bakazibura, ugasanga uwazihinze agize umusaruro mwiza.

Igihingwa cya karoti kibaga ciza cyane, kubera ko ntabwo kibona abantu bagihinga, kandi kinjiza rwose! Burya iyo abantu basaruye, bishimiraga umusaruro wazo.

Ingo zo mu cyaro bazizitiza indabo zitandukanye, ku buryo ubona ari ibintu byiza cyane .Iyo ugeze muri karitsiye ubona rwose ari urwererane, buri rugo ruzitije uturabo dutandukanye duhumura, imishipuri mbese ubona ari ibintu bishimishije cyane.

Ibiti biba byiza cyane ,kuko bidufitiye akamaro kenshi, ndetse ibiti babibazamo ibikoresho bitandukanye :amashoka ,amasekuru ndetse baranabicana ,ubwo murumva ko rero ibiti bitugirira akamaro ,tugomba gutera ibiti kuko biduha n'imvura iyo, nta mvura imyaka ntabwo yera cyane.

Guhinga ugasarura ibigori biba byiza, kubera ko havamo imbuto kandi iyo mbuto bayibeteshamo kawunga cyangwa se tukabeteshamo igikoma cyo kunywa.

Ikidodoki kiba cyiza iyo ugihinze ku rugo rwawe cyera imboga kandi bitamuhenze, ukakirya nta kibazo ufite, mu gihe waje kugihaha mu masoko atandukanye ugasanga kiraguhenze. Rero ni igihingwa cyiza umuntu ahinga ku rugo rwe, akajya agisoromo uko abishaka.

Ikidodoki kigira imboga ziryoshye cyane, iyo wazikaranze uzishyiramo n'ibishyimbo, usanga byahoberanye, mbese ushaka waziteka ari imboga, cyangwa ukazigereka ku bishyimbo, ubwo urumva ko ikidodoki kiryoha cyane.

Igihingwa cy'amasaka cangwa cy'ibigori, kigira akamaro cyane, uretse ko turya ibyezeho ariko n'ibiti byabyo bigira umumaro, barabishingiriza ibishyimbo, usanga ari ibiti bikomeye, iyo bashyizemo ibindi byo kubyunganira barashingirira da! Umushingiriro w'ibishyimbo ugakura neza.

Amashyamba ni meza adufitiye akamaro, ni yo akurura umwuka mwiza duhumeka. Kandi ibiti na byo bidufitiye akamaro, kuko bivamo ibikoresho bitandukanye dukoresha bya kinyarwanda.

Zigira umumaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kuko zivura indwara nyinshi mu mubiri, ndetse zivura n'amaso ku bantu bayarwaye. Iyo bazihekenye ugenda ubona amaso yabo ari gucya ari gucya. Ni byiza rero ko turya izi mboga kuko zifite umumaro mu mubiri wacu.

Ibihingwa by'amashaza bigira umusaruro ushimishije. Iyo byahinzwe neza kandi imvura ikagwa mu gihe cyayo, ndetse n'izuba rikaboneka mu gihe cyaryo, usanga bimeze neza cyane kuko birera abantu bagasarura.

Ibijumba biraryoha cyane. Cyane cyane ibingibi bisa n'umuhondo imbere, iyo ukiriye cyangwa se ukivuna, usanga mo imbere harimo amafufu, ubwo rero bisaba kukirya ufite n'icyo urasomesha, kuko kiraniga cyane.

Amagare aba meza cyane! Aradufasha gupakira ibyo tudashoboye kwikorera, ubwo rero ibitunaniye, turabyikorera ariko tugashyira no ku magare ,ugasanga tubigejeje iyo twakagombye kubigeza, urugero nk'abantu bahinga kure cyane ,birabagora kugeza umusaruro wabo mu rugo.

Ubu abantu basigaye barihangiye imirimo. Abacuruza bafite amafaranga make banyura ku muhanda akarambura ku mufuka, ugasanga aracuruje. Urumva ko abantu bihangiye imirimo mu buryo butangaje cyane.

Umurimo, umurima w'indaro nawo ubaga mwiza cyane kuko indabo zigirira igihugu cyacu akamaro, zifite umumaro da; iyo abantu bakoresheje ubukwe barazikoresha, iyo abantu bapfushije barazikoresha, ubwo rero indabyo zigira akamaro kenshi cyane.

Avoka iba urubuto rwiza cyane，ruryohera umuntu wese， nta muntu utayikunda， ari abana bato， ari abakuru，buri muntu wese iyo abonye urubuta rwa voka， yumva yarurya， kuko rugira intungamubiri yarwo.

Ibitoki biba byiza cyane kandi habamo ibiribwa, hakabamo n'ibyo bakoramo inzoga, ariko ibiribwa ubiteka uko ushaka, wabitogosa, wabitekamo umunyige, icyo upfa ni ukurya da. Iyo ubiriye urahaga, kandi ukumva ukomeye.

Igihingwa cy'imyumbati kiba cyiza cyane kubera ko iyo cyahinzwe neza kivamo ibintu bitandukanye .imyumbati bawurya ari mubisi, utetse cyangwa bakabetesha bagakuramo ifu y'ubugari ,ibyo byose ni uburyo bwiza bwo kurya ibihingwa cumi.

Ikigori kiba cyiza mu buzima kuko gitera imbaraga. Wakirya cyokeje, ukakiry gitetse, ukakirya cyumye. Iyo cyumye kivamo ifu kandi iyo bayibetesheje bakuramo akawunga. Na byo byunganira ibiryo bindi dusanzwe turya mu rugo.

Umuhinzi w'umwuga azinduka kare cyane agaterera isuka ye ku rutugu akajya mu murima yazindutse, kandi erega agenda abyishimiye cyane kuko aricyo kimutunze. Ubwo rero abahinzi ntawe ujya guhinga arakaye kuko azi ko ari ho azakura ibyo kurya.

Abahinzi iyo bahinze ibihingwa byabo ku murongo bagaca amaterasi y'indinganire, biba byiza cyane kuko iyo isuri ije ntabwo itwara imyaka yabo kandi ubutaka ntabwo butemba, ahubwo kubera ko baba baraciye imiringoti hinjiramo amazi, agakomeza gutuma ibihingwa bitohagira.

Inyanya zibamo ubwoko butandukanye, ariko iyo wahinze inyanya nziza zerera hejuru usanga zidakunda kubora iyo imvura ibaye nyinshi, usanga zo ntacyo zibaye kuko zitaborera mu butaka, ahubwo zirera nta kibazo kandi zikera nyinshi.

Umusaruro w'ibirayi uba ushimishije iyo wabihinze ukabishyira mu ifumbire nziza imborera ndetse n'imvaruganda birera cyane ku buryo iyo ubijyanye ku isoko urayabona baguha nkana ntabwo upfa gutahira aho ngaho.

Igihingwa cyitwa icyayi, ubungubu ubona cyaragize agaciro kanini cyane, cyane ko tugira n'uruganda rutunganya icyayi. Ubwo rero, iyo gihinzwe, abacuruzi babona aho bakigurisha kubera ko habaho uruganda rw'icyayi.

Inyanya ziba nziza cyane ,iyo ari igihe cyazo cyo kwera kwazo zirera rwose zigasara ku buryo usanga ziri kugura make ,aho unyuze hose ku mihanda ugasanga bazitanditse, kandi ayo waba ufite ayo ariyo yose ugura inyanya ukajya gukora isosi.

Ipapayi cya kizungu gikunda kwera ahantu ho mu cyaro, kandi abantu baragikunda, kuko iyo warwaye impatwe ukakirya wumva kikumereye neza mu nda, ukumva mu nda haguwe neza, ukumva nta kibazo cyindi kindi kiri kuzamo, ni byiza cyane rero kurya amapapayi ya kizungu.

Abahinzi ni ngombwa ko bahinga kuko ibyo bahinga bitugirira akamaro iwacu mu rugo ndetse tugasagurira n'amasoko, tukiteza imbere mu buryo butandukanye, tugashaka ibindi byo kurya twishyura amashuri y'abana bacu. Ni ngombwa rero guhinga.

Ibinyabijumba ni ibiryo byiza cyane, kuko bigutera imbaraga, usanga iyo umuntu yaraye akiriye, abyutse akomeye, akajya guhinga nta kibazo afite, bigera saa sita anakomeye cyane, kuko arahinga akabona umubyizi wa nkana, ubwo rero igihingwa cy'ikinyakijumba kidutera imbaraga no mu buzima busanzwe.

Ibishyimbo biba byiza cyane， cyane cyane iyo ubiriye ari ibitonore， bikugwa neza， biraryoha， abantu benshi barabikunda cyane. Niyo mpamvu rimwe na rimwe babizana mu isoko kubigurisha， kuko ni igihingwa gikundwa n'abantu benshi cyane，ingeri zose zirakigura，mbese usanga abantu bagikunda.

Avoka ni uru ubuto rwiza cyane kuko avoka iraryoha cyane kandi igira n'amavuta meza cyane y'umwimerere adaterara uburwayi, ubwo rero avoka ntacyo itwaye pe!

Igihingwa cy'ibigori iyo byakuze neza havamo amafaranga menshi, kandi ayo mafaranga usanga agiriye umumaro nyir'umurima. Ni byiza rero guhinga ibigori ukabishyiramo ifumbire nyinshi cyane: imborera imvaruganda, kuko n'ikigori iyo cyeze usanga ari cyiza giteye amabengeza no kukigura gishimishije.

Amatunda ni igihingwa kigirira abaturage benshi akamaro ,urugero nk'iyo wateye indimu, cyangwa amaronji, amapera ,amavoka, ibyo ni ibihingwa bigirira abaturage akamaro kuko bibaha amafaranga ndetse no kubirya.

Avoka iba urubuto rwiza cyane. Cyane cyane iyo ari avoka yeze neza, iraryoha, igira amavuta meza cyane. Avoka rero zisa n'umuhondo mo imbere, zo ziraryohaha cyane, kurusha izindi ziba umweru mo imbere. Wayirya yonyine, cyangwa ukayirya uyishize ku biryo. Ubwo rero avoka ni nziza.

Igihingwa cy'inanasi kiba cyiza cyane. Inanasi zivamo umutobe, iyo ushaka uzirya utazikuyemo umutobe. Mbese urumva ko inanasi zigira akamaro kenshi mu mibiri yacu.

Umusaruro w'inyanya uba mwiza cyane. Iyo wazihinganye ifumbire zirera da! Ukagurisha, ugakuramo amafaranga menshi cyane, kandi icyo gihe aragufasha nko kwishyurira abandi amashuri, ndetse no kongera guhinga iyindi sezo.

Umusaruro w'intoryi na wo uba mwiza cyane, ariko ikibazo cyawo ntabwo intoryi zibikika, bisaba kuzijyana ku isoko ubwo bakaguha amafaranga. Ubwo rero iyo wejeje intoryi nyinshi, muzijyana ku isoko kandi zigira amafaranga menshi cyane.

Igihingwa cy'ibigori kiba cyiza cyane Iyo bagifumbiye bakagifumbiza ifumbire y'imborera kirakura kikera cyane kikaduha umusaruro gushimishije usanga inzara itadufashe iyo twagifumbiye kikera cyane.

Avoka ni igiti cyiza cyane, ni urubuto abantu benshi bakunda kandi rugirira abantu akamaro. Avoka uyirya ku biryo, ukayirya yonyine, abana barayikunda, abakuru barayikunda. Rero ni igiti cyiza cyane niyo mpamvu abantu benshi bagitera mu ngo z'iwabo.

Ibitoki biba byiza cyane kuko bivamo ibintu bitandukanye, inzoga, imitobe, kandi ibyo byose biragurishwa bikaduha amafaranga yo kwikenuza mu rugo, tukishyurira abanyeshuri bacu amafaranga y'ishuri. Ubwo rero ibitoki bidufitiye akamaro kenshi cyane.

Umusaruro w’amajeri uba mwiza cyane， cyane cyane iyo ari urunyogwe， urarurya ukumva ni sawa. Iyo rwahoberanye n'ibirayi，urarya ukumva rwose amafuho ni amafuho， ubwo rero urunyogwe ruraryoha cyane，n’ubwo rimwe na rimwe ruhenda， ariko abantu bararugura da.

Umusaruro wa avoka na wo ni mwiza cyane. Kubera ko iyo wejeje za avoka urasarura kandi wazigurisha ukabonamo amafaranga menshi cyane. Iyo usha tse uzigurisha ari mbisi cyangwa se ukazitara, zamara gushya ukazijyana ku isoko abantu bakagura bakaryoherwa.

Gufumbira imyaka biba byiza cyane, kubera ko iyo dufumbiye imyaka bituma yera neza cyane, ikagira umusaruro ushimishije ntizitinya kwera no mu gihe kiki, iyo hari izuba ryinshi zirera ntakibazo ubwo rero iyo twishyize hamwe tugafumbira, ibihingwa biba byiza cyane kuko tubona umusaruro.

Imiteja na yo iba mu bihingwa bidufitiye akamaro cyane, iraryoha kandi ni imboga ubwazo, ubwo rero iyo abantu baziriye, baba bariye intungamubiri zihagije, iyo zihinzwe neza kandi zizana amafaranga, kuko abazijyanye ku isoko barahaha rwose.

Abaturage iyo bishyize hamwe bagahinga, bagakora amaterasi y'indinganire, bagahinga igihingwa kimwe, usanga iyo bakijyanye ku isoko bakuyemo amafaranga menshi cyane, abagirira umumaro bikaruta ko umuntu yahinga wenyine.

Amateke atera imbaraga, kuko aba mu binyabijumba . Iyo umuntu yayariye agiye guhinga, arahinga umunsi ukarinda wira nta kibazo agize adacitse intege ,kandi agahinga ahantu hanini ku buryo ubona amugiriye umumaro uwo munsi wose.

Ibihingwa ni byiza bigirira abaturage benshi akamaro, haba rero ibizana ubukungu mu gihugu cyacu, ubwo rero iyo abahinzi bahinze bikera neza, usanga biduhaye amafaranga menshi mu...

Inyanya iyo waziteye ukazishyiraho ifumbire ihagije, ziguha umusaruro mwiza cyane ushimishije. Ku buryo iyo uzijyanye ku isoko, bakwishyura neza, nawe ukikenura, ukaba wagura ibikoresho bitandukanye byo mu rugo.

Amateke adufitiye akamaro gakomeye cyane, kubera ko adutera imbaraga kandi uwariye amateke, agira imbaraga agakora akazi kose nta kibazo, urumva ko rero, amateke aduha nubutunzi.

Ibijumba biraryoha cyane, iyo wabigeretse ku bishyimbo, watsimbye ibishyimbo, birahoberana ku buryo iyo wabitetse utabihase wumva bifite amafufu, biryoshye cyane, nta muntu upfa kubyiteza adafite agasururu abisomeza, kuko biranigana.

Igihingwa cy'ibijumba ni cyiza cyane, iyo abahinzi bagihinze kikabakundira kikera, barishima, kuko n'iyo bagiye gusarura basarura bishimye, ariko icyo iyo cyanze kikarumba, barababara bisaba kugiterana ifumbire.

Amateke aba meza mu buzima, kuko umuntu wariye amateke arakomera akagira imbaraga. N'iyo hari akazi agiye gukora agakorana umwete nta ntege nkeya pe.

Ibishyimbo by'umushingiriro birera cyane, kandi bigira umusaruro mwinshi cyane. Iyo abahinzi babihinze baba bizeye ko bazasarura kandi barahunika kuko ibyo bahunitse bigera mu bindi da.

Igipapayi cya kizungu kiba cyiza cyane kubera ko nk'iyo ugihaye umwana yarwaye impatwe arakira, uretse ko kitagenewe abana gusa n'abantu bakuru natwe turakirya. Mbese ni rumwe mu rubuto rudufitiye akamaro kanini mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubwo rero turagikunda kuko kiba cyiza.

Ibireti biba byiza kubera ko ni igihingwa ngandurabukungu, iyo tukijyanye hanze y'Igihugu batwishyura amafaranga menshi cyane.

Imboga zigirira umubiri wacu neza, mbese iyo turiye imboga usanga ubuzima buri kugenda neza, nta kibazo tugira, urumva ko rero imboga ziba ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Igiti cya voka kigira umumaro mwinshi cyane. Iyo umuntu yahinze umurima w'avoka arawusarurara, akagurisha, ugasanga amafaranga amugiriye umumaro, ndetse ku buryo yaguramo n'undi murima ugasanga yiteje imbere.

Iki gipapayi kigira akamaro gatandukanye mu mibiri yacu. Iyo tukiriye twumva tumerewe neza, usanga ubuzima bukomeje mu nda hameze neza nta kibazo kirimo, n'abantu bakunda kugira impatwe usanga rwose bari kwituma nta kibazo bafite.

Igitoki kiba kiza cyane. usanga habonetsemo n'ibitoki by'imineke， mbese hari icyo barya ari imineke，kandi iyo ugitaze kirashya kikamera neza，ku buryo iyo ukiriye， wumva gifite icyanga. Ubwo rero igitoki ni cyiza cyane，kuko kiri mu bwoko bw'imboga.

Abantu bamaze kumenya ko guhingira hamwe bibaha umusaruro ushimishije, ubwo rero iyo bari iyo abantu bari guhingira hamwe usanga bunganiranye kandi iyo umuntu ari gukora wenyine aranebwa ariko iyo ari gukorana n'abandi abagira umuhate.

Umurima wanyuzemo isuri iyo ubutaka bwatembanye n'isuri, usanga ibihingwa uteyemo bitera neza, ahubwo ugasanga byarumagaye ugasanga umusaruro washakagamo ntabwo uwubonye nkuko bikwiriye. Ubwo rero kurwanya isuri ni byiza cyane.

Itunda ni urubuto rugira akamaro cyane, kandi ntirugombera guhabwa abana gusa, ahubwo kuko ari ikiribwa kirinda indwara, itunda rihabwa abana, abantu bakuru, cyane cyane abana batoya, mu buryo bwo kubarinda kurwaragurika bahabwa amatunda.

Igihingwa cy'ikawa, kiba cyiza cyane, iyo cyahinzwe neza, usanga kiduhaye amafaranga menshi cyane, kuko kiri mu bihingwa ngandurabukungu, ubwo rero iyo kijyanywe m ruganda, kivamo ikawa banywa, kandi iyo kawa iraryoha cyane, usanga n'abanyamahanga bayikunda.

Umusaruro w'ibishyimbo ni mwiza cyane. Iyo wateye ibishyimbo byitwaga Kiryumukwe, ibyo bishyimbo byareraga bigasara, ku buryo umuntu wabihinze abona amafaranga menshi cyane. N'iyo abijyanye ku isoko abantu bose barabikunda.

Umusaruro w'ibishyimbo na wo ushimisha abantu ,cyane cyane iyo wahinze ibishyimbo bita Kiryumukwe. Biraryoha cyane .Iyo ubyakirije abashitsi barishima. Nk'iyo wabigeretse ku birayi ,biba byahoberanye ku buryo ababiririye bumva baryohewe.

Igihingwa cy'ubunyobwa kiba cyiza cyane kandi kirera rwose, mu duce tumwe na tumwe tw'u Rwanda kirera, gikunda guhingwa kuko gitanga amafaranga abagihinga nta kibazo bagira kuko barunguka.

Igihingwa cy'ubunyobwa kiba cyiza cyane, kubera ko cyera kiriho n'ibishishwa byacyo, no kugihunika biroroha iyo ugihunitse cyareze neza ntabwo kibora, aho ubishakiye uragitonora ukajyana umusaruro wawe ku isoko.

Amashaza na yo aba meza, iyo yeze, iyo ushatse uyasarura ari urunyogwe, ukayarya yumye, ubwo rero aba meza mu buzima. Iyo umuntu agiye gusarura mu murima we asarura nta kibazo afite kuko nta waza kumubaza ngo kuki uyasaruye ateze.

Imyaka iyo bamaze kuyisarura, bakayigosora, usanga zihunitswe neza cyane, kandi usanga nta mungu zijemo ,ni ngombwa rero kugosora imyaka yasaruwe kugira ngo izatange imbuto nziza.

Umusaruro w'ibigori by'umuhondo uba mwiza cyane kuko barawushesha ukavamo ifu isa n'umuhondo, kandi iyo ngiyo ivamo umutsima uryoshye cyane witwa mayizori. Ubwo rero umusaruro w'ibigori by'umuhondo nawo ni mwiza cyane kuko utanga amafaranga kubahingaga ibigori by'umuhondo.

Inzuzi z'ibihaza ziba nziza cyane. Iyo bazikaranze ziraryoha. Hari n'abazikaranga bakazikuramo ifu. Iyo fu iyo bayitetse mu biryo biraryoha. Mbese inzuzi z'ibihaza usanga zimeze neza cyane.

Igihingwa cy'amasaka kiba kiza cyane, ihundo hari icyo ryasobanuraga kera. Kera ihundo iyo umuntu yabaga afite amahundo yarayahunitse mu kigega cyayo wasangaga bamwita umukungu kandi koko aba ari umukungu, kuko igihe ayakuriyemo yashakaga kuyagurisha kandi akabona amafaranga menshi.

Igihingwa cy'ibireti kigirira Igihugu cyacu akamaro, kuko ni igihingwa ngandurabukungu, ubwo rero iyo tugihinze kitugirira akamaro, abaturage, Igihugu cyacu iyo tukijyanye mu mahanga, usanga kiduhaye amafaranga ashimishe.

Amasaka y'umweruro na yo aba meza kuko aryoshya igikoma, iyo umunru ayabetesheje ari kumwe n'izindi mpeke mu gikoma, wumva igikoma kimeze neza, kandi nayo aba arimo intungamubiri nk'andi masaka yose y'umutuku.

Ubunyobwa ni igihingwa cyiza kuko kigirira akamaro abahinzi kandi iyo umuntu abujyanye ku isoko baramwishyura nta kibazo. Ubwo urumva ko kidufiye akamaro kanini no mu mibiri yacu.

Ibishyimbo iyo byeze barabihura, bakabyanika, bikuma neza kugira go baza babihunike bimeze neza, kugira ngo ikindi gihe ,undi mwaka nibagukenera kongera guhinga bazabihinge ari imbuto nziza cyane.

Ibishyimbo ni ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi. Umuntu ufite ibishyimbo bamwita umukungu, kuko uwonguwo nta nzara imufata, n'iy'abandi batejeje we aba yarahunitse ibishyimbo. Ubwo rero ibishyimbo ni ingenzi mu buzima. Iyo umuntu atabifite aba afite ibibazo.

Umusaruro w'ibigori uba mwiza cyane, cyane cyane iyo witegereje nk'ibigori bya mayizori bisa n'umuhondo, bigira ifu nziza iryoshye cyane, barayibetesha bagakuramo patejone. Iyo pate jone rero iyo uyitetse irakuryohera ku buryo wumva bimeze neza cyane.

Ibigori iyo wabihinze ukabifumbira neza cyane biguha umusaruro mwiza. Na we iyo uwurebye urishima, cyane cane iyo uri kubyanika ubona bibereye amaso ndetse n'ubigezeho akabishima, kuko biba byareze neza.

Aba meza mu buzima, iyo uyasaruye akuze, urayatonora, ugasangamo imbere harimo impeke, kandi araryoha iyo uyatetse akiri mabisi, ukayagereka ku birayi, ugasanga rwose araryoshye cyane, abantu benshi barayakunda.

Igihingwa cy' amashaza kitugirira akamaro kanini cyane, iyo turi gusarura amashaza usanga afite amafaranga menshi ku isoko, kuko urunyogwe rugura amafaranga menshi ugereranyije n'ibindi bihingwa. Ubwo rero ushaka warya urunyogwe cyangwa ukayarya yumye.

Ikinyobwa kiba kiza cyane kuko kiboneka mu bihingwa byubaka umubiri wacu, ubwo rero iyo abantu bariye ubunyobwa ntabwo bapfa kurwaragurika uko biboneye. Ni ngombwa guhinga igihingwa cy'ubunyobwa kuko kiduha amafaranga menshi,

Ikwavu zigira inyama ziryoha cyane, cyane cyane iyo uyiriye itarimo isupu , wumva inyama zayo zumutse kandi zikatugirira akamaro mubuzima.

Inkwavu ziba nziza cyane, iyo uzoroye ntabwo zikenera ibintu byinshi, kandi nazo ziroroka cyane kuko urukwavu rumwe usanga rubyaye nk'utundi dukwavu nka cumi na tubiri cyangwa icumi biterwa n'ubwoko bwazo, ubwo rero ziroroka kandi mu gihe cy'umwaka umwe gusa usanga zikugejeje ku iterambere rikomeye.

Inka ubu ngubu zifite umumaro munini cyane ,kuko zigira na ba muganga b'amatungo iyo zirwaye barazivura, ubu nta nka igipfa gupfa kuko iyo irwaye barayisuzumisha, babona ari iyo guhabwa umuti bakayiha umuti, cyangwa bakayitera n' inshinge bakazikingira aho bishoboka.

Ubu abantu barasobanutse da, ntawucyororera ku gasozi, abantu bamenye ibyiza, byo kororera mu rugo, iyo umuntu yubatse ikiraro, arorora nta kibazo, kand'itungo ntirirwaragurike, indwara zikura hanze, urabona ko iyo umuntu yororeye mu rugo, inka ye ubona, isa neza cyane.

Ingurube zirororoka cyane kandi aba abacuruzi aba aborozi barazikunda cyane, kuko iyo bazoroye ndetse zibwagura ibibwana byinshi cyane kandi iyo ikibwana kimaze amezi atatu gusa baguha ibihumbi mirongo itatu ,ubwo rero urumvako ingurube ni nziza cyane yakoroza umuntu agakira byihuse.

Ba veterineri ubu ngubu na bo basigaye bariga, kandi bariga hakazamo n'abagore, na bo ubu baratinyutse baba ba veterineri. Ubwo rero abaveterineri na bo baba ingenzi kubera ko bavura amatungo bakayamenyera ibiyakwiriye.

Ubworozi bw'ingurube buroroka cyane, iyo umworozi yoroye ingurube kubera ko zibwagura ibyana byinshi, usanga afite amafaranga menshi, kandi kubera ko ari inyamaswa yororoka cyane, rwose kuyorora ntabwo bigora cyane, ahubwo yororotsa nyirayo, ugasanga bimugiriye akamaro.

Aborozi b'ingurube ubu bamaze, kumenya igiciro k'ingurube, ko kiri ku rwego rwo hejuru, cyane cyane ko inyama zayo, zikundwa n'abantu benshi cyane, hari n'abava mu mahanga bakaza kuzigura, ubwo rero korora ingurube, byaduhaye agaciro cyane.

Benshi bamaze gutora umuco wo kuragirira mu gikuyu. Kubera ko babonye ko kuragirira ku gasozi, amatungo arona, ugasanga abaturage bari kwivovota cyane, ubwo rero, bahisemo kujya barubaka ibikuyu, bakaragirira aho ngaho, bakazahirira, usanga nabyo bifitiye igihugu cyacu akamaro.

Ihene naryo riba itungo ryiza cyane, kuko kera ryavagamo amata. Bayagaburiraga abana babaga bararwaye bwaki, wasangaga ari itungo rigirira abantu akamaro. Amahenehene yayo yabaga ari umuti.

Inka iyo zirwaye veterineri arazisuzuma yasanga zifite uburwayi akazivura ,ubu rero inka ntizigipfa gupfa tutazi ikizishe, ahubwo iyo uburwayi bwagaragaye ziravurwa kandi zigakira.

Ingurube ni itungo ribwagura ibyana ryinshi cyane ,kandi ryororoka cyane mu gihe gitoya, ariko bisaba kuyirinda inzara kuko igira inzara ikabirya byose, irabirya ikabimara ntisige na kimwe, ubwo rero ni byiza cyane kuyorora ,kuko yaduteza imbere mu buryo bwihuse.

Inka zo hambere wabonaga ari nziza cyane, ziteze amahembe ariko nta bwo zatangaga umukamo mwinshi cyane nk'iz'ubu. Kuko ubu ngubu hariho ifirizone kandi zikamwa amaritiro menshi, ku buryo usanga inka ishobora gukamwa amaritiro makumyabiri ku munsi. Ubwo rero ibya mbere byasimbuwe n'ibi byose bidufitiye akamaro.

Inyoni ni nziza cyane. Dore ukuntu ziba zifite amabara meza abereye kuzireba！ Wakwirirwa urazireba， izi nizo bavuga ngo zikereza abana mu nzira，ndetse n'abakuru nabo bayikererwaho， byagera kuri ba mukerarugendo bo bakayitegereza， ntibakureho amaso.

Inyoni imwe mu nyamaswa ziba mu ishyamba ziba nziza cyane kandi igira amabara meza iyo uri kuyireba wumva ufite ubwuzu kandi zikundwa n'abantu gusa n'abantu bakuru bareba inyoni n'amabara yayo bumva banezerewe.

Inyoni ziba mu ishyamba zigira amabara meza, kandi ziba zitandukanye, zifite ubwiza, ba Mukerarugendo bakunda kuzitegereza, kandi iyo baje kuzireba mu ishyamba, badusigiraga amafaranga.

Inyoni zikunda kwibera ahantu haba ibyatsi bitandukanye, kubera ko zitoraguraramo udusimba dutandukanye nk'iminyorogote, zikumva ziguwe neza. Rero inyoni ni nziza cyane iyo zitakoneye, nta kibazo cyazo ziba zifite.

Inyoni ziba nziza cyane kuko usanga zifite amabara abereye amaso yacu, iyo umuntu ari kuzitegereza abona zishimishije cyane, kandi niyo ziri kugenda hasi ubona zibereye amaso.

Inyamaswa zo mu ishyamba zifitiye igihugu cyacu akamaro, kuko iyo bamukerarugendo baje kuzisura badusigira amadovize kandi iyo baje kuzireba usanga nabo bishimye cyane. Ubwo rero inyamaswa zo mu ishyamba zidufitiye akamaro gakomeye cyane.

Iyi nyamaswa yo mu ishyamba nk'intare urugero, intare bavuga ko ari umwami w'ishyamba nta nyamaswa ipfa kuyegera uko yiboneye, kuko n'iyo bagiye guhiga ni inyamaswa batapfa guhiga, ubwo rero iratinywaga cyane uretse twebwe abantu tuyitinya n'izindi nyamaswa iyo ziyibonye zirahunga, ntayipfa kuyegera.

Inyamaswa zo mu ishyamba zirimo n'imbeba zirangiriza cyane, kuko iyo zigeze mu myaka zirazirya umuntu akabura umusaruro. Ubwo rero ni ngombwa kuzitega kuko zangiriza umusaruro.

Batandukanye, hari izo ubona zifite amajosi maremare, nazo rero ba mukerarugendo bakunda kuzireba kubera ko iyo bazirebye baduha amadovize, baduha amafaranga. Ibi nabyo biba mu byiza nyarwanda.

Hari inyoni ziba nziza, ku buryo zigira amabara meza ubona ateye ubwuzu. Nk'iyo ubonye inyoni, ukabona iteye ubwuzu, ukabona yazana amafaranga. Iyo bari kuyitegereza, ba mukerarugendo usanga bibashimishije cyane.

Inyoni zibamo ubwoko bwinshi butandukanye, zigira n'amabara menshi atandukanye. Hari iziba mu butayu, hari iziba mu mashyamba atandukanye. Ubwo rero inyoni ni inyamaswa iba mu mashyamba, ibarirwa mu nyamaswa zo mu ishyamba.

Inyoni zibamo ubwoko butandukanye, kandi zigira amababa meza cyane, iyo uzibonye ubona hari n'izo utazi, ariko nazo ziba mu ishyamba, ubwo rero urumva ko inyoni zibamo amako menshi.

Inyoni ni yo yonyine ibasha guhagarara ku gati gatoya, ariko ukabona ntifite impungenge, kuko zigiraga ibiro bike cyane. N'iyo agati kagiye kuvunika, irigurukira ntumenye ko yari ihagaze ku gati gatoya, kuko zigira amababa. Nta bwo zipfa gukora impanuka uko ziboneye.

Bakame ni agasimba kagira ku bwenge cyane kagira uburyarya, usanga karusha izindi nyamaswa zose zo mu ishyamba ubwenge, kuko ko kazi kwirwanaho iyo havutse ikibazo kari yirukankira, ugasanga izindi zihuye n'umutego kandi ko kigendeye kera.

Urukwavu rugira ubwenge bwinshi cyane. Uko amatwi yarwo areshya, ni ko rwumva. Niyo warugambanira bingana iki usanga ruhise rumenya icyo ushaka kurukorera. Ubwo rero kurufata ntabwo byoroshye rwumva kubi.

Inyamaswa zo mu ishyamba, habamo inyamaswa zitandukanye, ndetse habamo n'inyamaswa yitwa isha, isha rero irirukanka cyane, nta nyamaswa ishoboraga kuyifata n'iyo wayirukankaho, ndetse n'abahigi barayihiga kugira ngo bayifate bikabagora.

Inyoni zigira amabara meza, ba mukerarugendo barazikunda, kandi bakunda kuza kuzisura ,ziduha amafaranga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kandi zikunda kuba mu ishyamba. Inyoni ni nziza cyane turazikunda.

Inyamaswa zo mu ishyamba na zo ni nyinshi cyane, ariko zidufitiye akamaro kuko ba mukerarugendo iyo baje kuzisura, badusigira amadovize. Kandi ayo na yo ajya mu mahoro, ugasanga Igihugu cyacu giteye imbere cyubatse amashuri, gikoze imihanda itandukanye.

Zikunda ahantu h'ishyamba ,kuko zumva zimerewe neza, zitarahura n'izuba ryinshi ritandukanye, kandi iyo zikeneye gutoragura utuntu dutandukanye mu biti ,ziturya ntakibazo zifite ,rero na zo zumva zimerewe neza.